Umugabo wambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'umukara ufite igikombe kiri mu ibara ry'umuhondo, ufite igitabo bisa nkaho ari kugisoma wicaye mu cyumba gifite amadirishya y'umweru.

Icyumba kigari gitatse neza kirimo amatara afite urumuri ruhagije hahagazemo abagore n'abagabo, abagabo bambaye amakote bateruye icyapa cy'ibara ry'ubururu bisa nkaho bari bari mu nama.

Akayira k'abanyamaguru kariho ibyapa bimanitse ku matara yo ku muhanda ari kugendamo abagore n'abagabo ku mpande hari inzu y'ubucuruzi nini iriho ibyapa nayo ku rundi ruhande haparitse imodoka.

Icyumba kigali kirimo abagore babiri mo hagati hatandukanijwe n'akameza bari guhererekanya ibicuruzwa, inyuma hamanitse akabati karimo ibintu bisa nk'ari mu iduka.

Inzu ngari itatse neza irimo utubati tumanitseho imyenda ndetse na kamwe kamanitsemo inkweto, bisa n'aho bacururizamo cyangwa ari isoko.

Umugore n'umugabo bahagaze, umugabo ufite imashini bishyuriraho, n'umugore uteruye ikarita, ku meza hateretse imashini n'imyenda, inyuma yabo hari utubati tumanitsemo imyenda, bisa nk'aho ari mu iduka.

Icyumba kigari gitatse neza kirimo imitako itandukanye ndetse n'ururabo. hahagazemo abagore n'abagabo umwe ufite ikote mu ntoki ndetse n'imashini, ku gikuta hamanitse imitako ndetse n'amafoto bisa nkaho ari mu iduka.

Amashati atandatu afite amabara atandukanye, amanitse mu kabati gafashe ku gikuta.

Icyumba kinini kirimo imyenda y'abategarugori iri mu bwoko bw'ibitenge itandukanye, ipanze neza bisa nkaho ari mu iduka bacururizamo imyenda y'abagore.

Icyumba gitatse neza kigari gisashemo amakaro, gifite amatara afite urumuri ruhagije, harimo utubati turimo ubukorikori ndetse n'ibihangano bitandukanye, ku meza hateretseho ibihangano ndetse hirya hari n'imyenda bisa nkaho ari iduka.

Abagabo batatu bateruye igifunguzo kinini umwe ufite agakapu k'umutuku bahagaze imbere y'imodoka ebyiri inyuma yabo hari inzu yanditseho Akagera moto.

Umugabo uri guha urufunguzo rw'imodoka umugore ufite agakapu mu ntoki, inyuma yabo hari imodoka bakaba bahagaze ku nzu ikoreramo Akagera motors.

Imodoka z'ubwoko bumwe zifite ibara rimwe ry'umweru ziparitse mu cyanya kimwe hirya hateye ibiti, hirya hari inyubako ndende y'amagorofa menshi afite ibikuta biri mu ibara ry'umuhondo.

Abagabo babiri bahagaze bafite igifunguzo kinini, hasi hateretse agakapu k'umutuku, inyuma yaho hari ikamyo ya fuso y'umweru.

Abagabo bane bahagararanye bafite urufunguzo runini bahagaze imbere y'imodoka ifite imiryango ifunguye bakaba bahagaze imbere y'inyubako nini iri mu ibara ry'umweru mwimbere harimo imodoka y'ibara ry'umutuku .

Abagabo batanu bahagaze bateruye igifunguzo kikini ndetse n'umwe ufite agakapu k'umutuku bahagaze imbere y'imodoka eshatu, inyuma yabo hariho inzu isa nk'aho baje kugura imodoka.

Ishusho igaragaza ibiro biberamo, ibiro biberamo ihererekanya, ibiro birafunguye imbere yabyo hari umuntu usa nuri gusohokamo biseze amabara y'icyapa cyerekana kiri mu mabara y'umuhondo.

Abagabo batatu bari guseka, babiri bafite urufunguzo runini ndetse bafite n'udukapu tw'umutuku mu ntoki zabo, bahagaze imbere y'gikamyo kiri mu ibara ry'umweru, inyuma hari inzu yubakishije amabati.

Umuhanda mugari wa kaburimbo hirya hari inyubako z'ubucuruzi hanze haparitse imodoka zirenga eshanu zu'ubwoko butandukanye bisa nk'aho ari inzu y'ubucuruzi.

Imodoka ifite ibara ry'umweru, iparitse, itwara abantu mu buryo bwihariye, inyuma hari kunyuraho indi modoka y'ibara ry'umutuku, inyuma yaho hari hateye ibiti.

Inzu nini ngari ifite ibikuta bisa umweru hamanitseho icyapa, mo imbere haparitsemo ibikamyo by'ibara rimwe ry'umweru bine imbere ku meza hateretse agacupa ndetse n'igitabo bisa nk'aho bacuruza ibikamyo.

Mu karere ka Muhanga habereyemo irushanwa ry'amagare riba buri mwaka rikabera mu gihugu cy'u Rwanda, babahagaritse ku mpande kugira ngo hataba impanuka ndetse n'abari mu irushanwa babashe gusiganwa nta nkomyi.

Abagabo babiri umwe uteruye umwana ndetse ku mpande ahagaze umugore bateruye igifunguzo kinini inyuma yabo haparitse imodoka iri mu ibara ry'umukara inyuma hubatse inzu ifite icyapa hejuru cyanditseho akagera motori bisa nkaho'aho ariho bazigurishiriza.

Abagabo babiri bambaye udupfukamunwa bambaye n'amashati bafite icyapa kinini inyuma yabo bahagaze imodoka ebyiri z'umukara inyuma hari inzu nini ifite amabati manini bisa nk'aho baje kugura imodoka.

Icyumba kigari gisa neza, kirimo inkuta zifite ibara ry'ubururu harimo imashini zishinzwe kubungabunga amata, hasi hateretse indobo hasashe amakaro bisa nk'aho ari mu iduka.

Icyumba kigari, gitatse neza, kirimo akabati kamanitsemo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa, harimo n'imashini ishinzwe kubika amata, hahagazemo umugore ndetse n'umugabo n'umwana, bisa nkaho bacuruza amata.

Icyumba kigari kirimo icyuma kibika amata hari n'akabati karimo amajerekani abiri uducupa tw'icyokunywa hasashe amakaro ari mu ibara ry'umweru, hateretse ameza ndetse n'intebe bifite ibara ry'umweru.

Icyumba kigari cyicayemo umugore n'umugabo ndetse n'umwe uhagaze, imbere ku meza hateretse igikombe ndetse n'udusahane tubiri, ku mpande harimo akabati karimo ibyo kurya ndetse n'akandi gateretseho indobo, hejuru n'ibyo kurya, inyuma hari icyapa bisa nk'aho ari mu iduka.

Akabati kagari gateye ku gikuta, karimo ubwoko butandukanye bw'ibinyobwa. Inyuma ku gikuta hari amabara y'umweru n'ubururu, hirya hari intebe y'ibara ry'ubururu bisa nk'aho ari mu iduka.

Umwanya wagenewemo guparikamo imodoka mugari. Urimo imodoka eshatu, imbere hari guca umugore wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ubururu. Inyuma hari inzu bisa nk'aho ari iy'ubucuruzi.

Umugabo uhagaze hirya y'urugi rw'inzu, hateretse akameza kariho imineke, amagi, amandazi mu ndobo, cndetse n'indabo irimo ifu, munsi harimo ako bashyiramo imyanda.

Abana babiri bicaye ku ntebe, bateruye ibikombe by'amata ndetse na keke. Imbere ku meza hateretseho ibicupa bitatu birimo amata n'umugabo umwe uhagaze hejuru yabo bisa nk'aho baje kwiyakira.

Umugore w'umusatsi muke wambaye itaburiya y'umweru uri gusuka amata ayavana mu ijagi rimwe ayashyira mu yindi, biteretse ku kameza n'umuntu uri kuyakira mu idirishya bisa nkaho ari mu iduka.

Icyumba kigari gitatse neza gihagazemo umugore umwe ndetse n'umugabo wambaye ijiri ry'icyatsi, ndetse n'umugore umwe n'umugabo bicaye imbere kumeza hari mudasobwa ndetse n'imashini bisa nkaho ari nko mu biro.

Abantu babiri bafite amafaranga menshi ari mu bwoko bubiri bw'amadorari ndetse n'amanyanijeriya, bari kuyahererekanya bisa nkaho bari gukora ivunjisha.

Ogisisi foiri biro akaba ari ibiro bifasha abaza kuvunjisha amafaranga yabo bayakura mu bwoko runaka bw'amafaranga bayashyira mu bundi bwoko runaka bw'amafaranga, aha turabonamo mudasobwa, turabonamo n'umugabo wicaye ategereje gufasha abakiriya baza kuvunjisha amafaranga yawe.

Akazu gakoreramo ushinzwe gutanga serivise zo kohereza no kwakira amafaranga aturutse hirya no hino ku isi, hariho ibyapa bitandukanye, by'ibigo bishinzwe gutanga serivise zo kohereza no kwakira amafaranga ku isi hose.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo ibice bibiri, ku mpande hari akayira k'abanyamaguru, hubatse n'inyubako y'amagorofa menshi, bisa n'aho ari inzu y'ubucuruzi, imbere yaho hahagaze abantu batatu.

Icyumba kigari gitatse neza kirimo imitako itandukanye, ndetse harimo n'ameza n'intebe bikoze mu giti kiza, hasi hasashe amakaro ndetse n'urugi rukoze mu giti ku mpande hari igikuta cy'ibara ry'umweru.

Icyumba kigari gitatse neza, kirimo inkuta zifite ibara ry'umweru ndetse harimo n'indabo z'ubwoko butandukanye, imbere ku kameza hateretseho umutako ukoze mu icupa ndetse harimo n'intebe z'ibara ry'umweru.

Icyumba kigari gitatse neza kirimo amafoto ku nkuta inkuta z'umweru ndetse harimo n'intebe zikoze mu ruhu hasi hasashe ibiti ndetse hatatsemo n'indabo.

Icyumba kigari cy'uruganiriro kirimo intebe eshatu zikoze mu biti zifite imisego iri mu ibara ry'umweru, no hirya hasize ibara ry'umukara hasi hari amakaro yiganjemo ibara ry'umweru.

Icyumba kigari gitatse neza kirimo intebe zirindwi, ebyiri ziri hirya n'izindi eshanu ziteretse aho bakirira abakiriya, hirya harimo akabati babikamo ibyo kunywa ndetse n'akandi babikamo ibyo kurya, hejuru hateretse ibyo kurya hanze hari ubusitani bwiza butemo ibiti binyuranye.

Icyumba kigari gitatse neza, kirimo indabo zigiye zitandukanye, hahagazemo abakobwa babiri ndetse n'umugabo umwe, inyuma hari ifoto y'umukuru w'igihugu.

Icyumba cyo kuraramo gifite amarido afunguye ashashemo amashuka y'umweru, hanze hateye intebe ebyiri zifite imisego yo mu ibara ry'umutuku icyumba gifite n'itara riri kwaka.

Inzu yo kwiyakiriramo ngari, irimo ameza ateguye neza ariho ibirahuri, amasahani ndetse n'ibyo kurisha n'udutambaro twabugenewe, hariho n'intebe nziza, hirya hari televiziyo, akabati ko kubikamo ibyo kunywa ndetse n'abantu babiri bicaye ku ntebe.

Inzu nini ngari itatse neza ifite ibikuta by'ibara rya orange hanze hateye ubusitani burimo indabo ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye ku mpande hariho akandi kazu gafunguye karimo intebe ndetse n'utumeza.

Ubwogero bugari butatse neza hafi yabwo hateye ubusitani burimo indabyo z'ubwoko butandukanye, hateretse n'akameza ndetse n'intebe. Hirya hari imitaka n'uruzitiro imbere yaho.

Inyubako ngari nini ifite ubusitani buteyemo ibiti by'ubwoko butandukanye ndetse n'indabo ku mpande hari pisine ifite amazi meza ndetse ku mpande hateye n'udutebe tubiri.

Icyumba kigari kinini gitatse neza, gifite amatara afite urumuri ruhagije, imbere ku meza hateretse uducupa turimo icyo kunywa ndetse harimo n'intibe nyinshi, bisa nkaho ari cyumba cy'inama.

Ubwogero bunini busa neza kumpande hateretse intebe esheshatu ndetse n'izindi z'umweru ndetse n'izindi enye z'ibara ry'umutuku, hejuru hari imitaka ibiri ifite ibara ry'umweru inyuma hateye ubwoko butandukanye bw'ibiti.

Icyumba kigari gisa neza cyicayemo abagore n'abagabo ku ntebe ndetse numwe n'umugore umwe uhagaze ku meza hateretse za mudasobwa ndetse n'udukayi ku mpande hamanitse amagare abiri bisa nkaho ari mu biro.

Iyi nzu nini ngari ifite umuryango munini ndetse n'amadirishya manini, hanze hateye indabo z'ubwoko butandukanye, hari n'akayira k'abanyamaguru ndetse hari na parikingi nini.

Icyumba kigari gitatse neza gifite inkuta cyiganje mu mabara y'umweru n'ubururu hamanitseho ibyapa hicayemo abagore n'abagabo imbere ku meza hateretse za mudasobwa ndetse na terefoni bisa nk'aho bari mu biro.

Icyumba kigari gitatse neza kirimo imitako ya Kinyarwanda, hateretsemo intebe ebyiri zitacaho abantu ndetse ku meza hateretseho mudasobwa, hari n'ikirahure mo hagati bisa nkaho ari mu biro.

Icyumba kigali gisa neza, gifite itara rifite umuriro ruhagije, hicayemo abagore n'abagabo, kumeza hariho ibitambaro by'icyatsi, hateretseho uducupa turimo icyo kunywa ndetse n'udutabo. Hasi hasashe amakaro bisa nkaho bari mu nama.

Inzu ndende y'amagorofa menshi afite ibirahure byo mu ibara ry'icyatsi, imbwere hahagaze moto ifite ibara ry'ubururu.

Umuntu uhagaze imbere y'imbaga y'abantu benshi, wambaye imyenda y'umukara. ufite indangururamajwi y'umukara, inyuma ye hakaba hari ikigega cy'umukara kijyamo amazi aturutse k'umureko w'inzu. N'inzu yubatse n'amatafari ahiye.

Inzu nini isakaje amabati menshi hahagazemo abagore n'abagabo imbere k'utumeza, hateretseho imboga n'imbuto, hasi hari ibiribwa bisa nkaho ari mu isoko.

Ahantu hanini hagari hateretse utumeza duteretseho imboga n'imbuto z'ubwoko butandukanye, harimo inyanya ndetse n'imboga bisa nk'aho ari mu isoko cyangwa iduka.

Ahantu hagari hari ubwoko bw'imbuto butandukanye burimo imineke, amacunga, voka, inanasi biteretse ku meza hirya hicaye umugore ufite umusatsi uringaniye wambaye ikote ry'umukara.

Umuhanda mugari wa kaburimbo uri kunyurwamo na moto eshatu, ku mpande hari akayira k'abanyamaguru kariho abanyamaguru benshi ndetse haparitseho n'imodoka, hubatse n'inzu nini iriho ibyapa bisa nkaho ari inzu y'ubucuruzi.

Inzu ngari iriho utumeza duteretseho imbuto z'ubwoko butandukanye, imbere hahagaze umugore witeze igitambaro ndetse hasi hateretse n'izindi mbuto bisa nk'aho ari mu isoko cyangwa iduka.

Icyumba kigari gifite itara rifite urumuri ruhagije, kimanitsemo utubati tumanitsemo inkweto hahagazemo abagore n'abagabo bari kugenda bisankaho ari mw'iduka cyangwa isoko.

Inyubako nini ndende irimo abantu benshi bahagaze imbere y'imiryango yayo, hasi haparitse imodoka y'abashinzwe umutekano ndetse n'iz'abantu ku giti cyabo bisa nkaho habaye ikibazo.

Icyumba kigali kimanitsemo imyenda ndetse n'ibihangano by'ubukorikori hicayemo umuhungu uterura telefone ndetse no hirya hari umugore wicaye n'undi mugabo uhagaze bisa nkaho ari mu iduka.

Mu karere ka Muhanga habereyemo irushanwa ry'amagare riba buri mwaka rikabera mu gihugu cy'u Rwanda, babahagaritse ku mpande kugira ngo hataba impanuka ndetse n'abari mu irushanwa babashe gusiganwa nta nkomyi.

Inzu ngari ifite amabati manini mo imbere harimo utubati tumanitseho ibicuruzwa, hirya hahagaze abantu ndetse hari na kizimyamwoto bisa nk'aho ari isoko.

Ahantu hanini hasakajwe amabati hateretse ibyo kurya, ndetse n'ibyo gukoresha mu gikoni hirya hari umuhungu uhagaze yambaye umupira w'umukara, inyuma ye hari umugore uteze igitambaro bisa nkaho ari mu isoko.

Umuhanda mugari wa kaburimbo uri kunyurwamo n'imodoka na moto ebyiri, ku mpande haparitse imodoka eshatu zitwara abantu mu buryo bwihariye, inyuma yaho hubatse inzu y'amagorofa menshi kurundi ruhande hateyeho igiti.

Icyanya kicayemo abantu bari kudoda n'abandi bahagaze hejuru yabo no ku mpande hamanitse imyenda bisa nkaho ari mu isoko.

Abantu benshi bahagaze hanze harimo abagore n'abagabo, bari kubisikana na za moto zitwara abantu ndetse n'imodoka zifite imizigo, hirya hari inzu nini isakaje amabati menshi bisa nkaho ari imbere y'isoko.

Icyumba kigari gihagazemo abagabo ku mpande hari akabati karimo imitako ndetse n'ibihangano by'ubukorikori, hasi hari uduseke ndetse n'amasakoshi hejuru bsa n'aho arii mu iduka.

Inzu nini ngari y'amabati manini munsi harimo abantu benshi. Ku meza hateretseho imboga n'imbuto, harimo n'uwambaye imyenda ishinzwe umutekano bisa nk'aho ari mu isoko.

Abagore babiri bahagaze aho bakirira abakiriya, inyuma hahagaze umuntu wambaye ishati y'umutuku, hateretse akabati gakonjesha kazwi nka firigo, karimo ibyo kunywa bigiye bitandukanye, bisa nk'aho bari mu iduka.

Umugabo uri guseka wambaye umupira wicunga riyishije n'ipantaro y'umukara wambaye igikapu kirimo ibara ry'umuhondo ryiganje wegamye kuri moto irimo ibara ry'umutuku ryiganje inyuma ye hari igikuta cy'umuhondo.

Umugabo wambaye ishati yiganjemo ibara ry'umweru, uhagaze imbere ya moto ifite umuzigo uri mw'ibara ry'icyatsi, hirya ye hari umuhanda wa kaburimbo urimo moto ebyiri ndetse n'izindi modoka ebyiri.

Inzu ikodeshwa kacyiru mu mujyi wa kigali ikaba ikodeshwa amafaranga igihumbi na magana atanu by'amadolari hakaba harimo firigo ndetse n'ibindi bikoresho byo mu gikoni .

Icyumba kigari cyo kuruhukiramo kirimo akameza kanini, igitanda kinini kiriho ikiringiti cy'ibara ry'umukara ndetse harimo n'imiryango ibiri, hejuru hari amatara afite urumuri ruhagije ndetse n'ibikuta by'ibara ry'umweru.

Inzu nini nziza iherereye mu mujyi wa Kigali ifite icyumba cy'uruganiriro kinini gifitemo intebe z'ibara ry'umweru nini nziza ifite n'amatara afite urumuri ruhagije ikaba ikodeshwa igihumbi na maganatanu cy'idorari ku kwezi.

Inzu ngari, nini, nziza, iherereye mu mujyi wa Kigali, igurishwa, ifite igikoni kinini kirimo utubati tureture turi mu ibara ry'umukara ndetse n'amashyiga ya gazi y'ibara ry'umukara, ikaba igurishwa miliyoni ijana na mirongo itatu z'amanyarwanda.

Icyumba cy'uruganiriro kinini cyiza, gitatse, kirimo intebe ziri m’ ibara ry'umweru hahagazemo umugabo n'umugore, icyumba gifite amatara afite urumuri ruhagije, harimo na televiziyo izimije.

Icyumba kigali gifite amatara afite urumuri ruhagije hahagazemo umugore n'umugabo batandukanijwe n'akameza karimo hagati yabo ku mpande hateretse intebe eshatu bisa nkahoa ari mu gikoni.

Inzu ituzuye y'ibyumba bibiri iherereye i Remeraro mu mujyi wa Kigali, ikodeshwa ibihumbi maganatandatu ku kwezi ikaba ifite ubwiherero bugari buririmo n'ubwogero, harimo n'itara rifite urumuri ruhagije ndetse isukuye.

Umugore n'umugabo bahagaze mu busitani bisa nk'aho bari kuganira, ubusitani buteyemo ibiti by'ubwoko butandukanye ndetse n'indabo, hafi hari pisine hari n'intebe hirya.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru ruho ibintu bigiye bitandukanye ririho inkweto zifite ibara ry'igitaka ndetse n'ivu hamwe n'umukara hariho akamashini gafite ibara ry'umweru ndetse kandi amagambo yandikishijwe ibara ry'umutuku, umukobwa wambaye mu mupira k'umweru.

Inzu ngari nini ifite igikoni kinini cyiza gifite itara rifite umuriro uhagije, hasi hashashe amakaro, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali i Kanombe ikaba igurishwa miliyoni ijana mirongo ine z'amanyarwanda.

Inzu igurisha kabeza, mu mugi wa Kigali ifite amakaro y'amabara agiye atandukanye higanjemo umweru n'umukara, ifite n'igipangu cyubakishije amatafari.

Inzu nini, ngari, itatse neza, ifite amatara afite urumuri ruhagije, hasi hashasheho amakaro, iherereye mu mugi wa Kigali, ikaba ikodeshwa igihumbi na magana atanu cy'idorari ku kwezi.

Icyumba kigari gisa neza gifite inkuta zifite ibara ry'umweru, ifite urumuri ruhagije hasi hasashe amakaro ndetse n'umuryango mugari hahagazemo umugabo wambaye ikoti ndetse n'ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru.

Inzu nini nziza itatse neza iherereye Kimironko mu mujyi wa Kigali ikodeshwa ifite ibyumba bitatu ubwogero bubiri, ikaba ikodeshwa ibihumbi maganatatu by'Amanyarwanda ku kwezi ifite ibikuta bisa umukara ndetse n'urubaraza runini no mu nzu hanini.

Inzu ikodeshwa icyumba kimwe ndetse n'ubwogero bumwe iherereye Kacyiru mujyi wa Kigali ika ikodeshwa ibihumbi magana abiri ku kwezi, ikaba ifite igikoni kigari ndetse n'idirishya rinini.

Inzu ndende y'amagorofa abiri iherereye mu mujyi wa Kigali igurishwa amadorari ibihumbi ijana na mirongo ine ifite umwanya wa parikingi munini ndetse n'inkuta z'umweru.

Inzu iherereye i kanombe mu mugi wa Kigali ifite ibyumba bitatu, ubwogero bubiri ikodeshwa ibihumbu magana atatu na mirongo itanu ku kwezi, ifite imiryango minini amadirishya manini ndetse n'amabati y'umutuku.

Inzu igurishwa iba iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali ifite ibyumba bine n'ubwogero butatu ikaba ifite amadirishya atatu manini n'umuryango munini ifite urubaraza rusashemo amabuye y'umweru n'umutuku ifite ibikuta bisize amabara y'umweru n'icyatsi n'amabati manini.

Inzu ikodeshwa ku ijoro amadolari ijana na mirongo itanu, ndetse n'amadolari igihumbi na magana inani ku kwezi, ngari ifite ubusitani buteyemo indabo ndetse n'ibiti bigari, ikaba ifite amagorofa arenga abiri ikaba iherereye i Kigali.

Inzu nini ngari ifite igikuta cy'ibara ry'icyatsi, n'amabati y'ibara ry'umutuku werurutse ikodeshwa Kabeza mu mujyi wa Kigali.

Inzu ikodeshwa y'umuryango umwe mugari ifite urubaraza ruhagije isize ibara rijya gusa n'umweru ikodeshwa ibihumbi ijana na mirongo itanu.

Inzu nini kandi nziza iherereye i kanombe mu mujyi wa kigali ikaba igurishwa amafaranga miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amanyarwanda ikaba ifite amadirishya abiri manini n'umuryango mugari ifite amabati y'umutuku ndetse n'uruzitiro rwiganjemo ibara ry'umweru n'ubururu.

Inzu ikodeshwa iherereye Kacyiru umujyi wa Kigali ikaba ikodeshwa ibihumbi magana abibiri by'ayarwanda ku kwezi, ifite icyumba kimwe ndetse n'ubwogero bumwe, ifite ibikuta bisa neza by'ibara ry'ikigina ndetse ikagira no mu gikoni hagari.

Inzu ngari ikodeshwa iherereye i Remera mu mujyi wa Kigali y'icyumba kimwe na saro, ifite imiryango minini ndetse n'idirishya, hasi hasashe amakaro.

Inzu nini ngari igurishwa i Kanombe mu mujyi wa Kigali, igurishwa miliyoni ijana na mirongo itatu z'amafaranga y'u Rwanda. Ifite icyumba cy'uruganiriro kigari gifite inkuta z'umweru, hasi hasashe amakaro y'umweru meza.

Inzu itarangiye ikodeshwa ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwogero bumwe, iherereye i Kibagabaga mu mujyi wa Kigali ikaba ifite urugi rugari runini ndetse no mu imbere hasashe makaro.

Inzu nini ngari ifite ibikuta birimo amabara y'umukara umweru ndetse n'iroza ifite umwanya wa parikingi munini uhagazemo umugabo wambaye amarinete, ishati y'umweru ndetse n'pantaro y'umukara igurishwa miliyoni mirongo icyenda z'amanyarwanda.

Inzu nini ngari itatse neza ifite ibikuta ndetse n'inkingi by'ibara ry'umweru, hahagazemo abantu hejuru ku nkuta hamanitseho ibyapa bisa nk'aho ari inzu y'ubucuruzi.

Isoko ry'imitako ndetse n'imirimbo y'ubwiza harimo abagore batanu n'umugabo umwe hamanitsemo imitako ishushanyije ndetse n'imirimbo y'ubwiza bambara.

Icyumba kigali gitatse neza kirimo urumuri ruhagije hahagazemo umugore uteruye ibintu ari kubishyira mu gakapu kagenewe guhahirwamo kupande harimo akabati karimo ibiribwa bisa nk'aho ari mu iduka.

Umugore uri guseka wambaye umupira w'umweru ipantaro y'umukara uri mu iduka uhagaze imbere yakabati karimo ibikoresho byo mu gikoni n'ibyo kumeza.

Inyubako ngari nini itatse neza irimo indabo, hahagazemo abantu ku bikuta byayo hagiye hariho ibyapa by'ubwoko butandukanye bisa nk'aho inzu y'ubucuruzi.

Icyumba kigari gitatse neza gifite amatara afite urumuri ruhagije, hejuru hamanitse ibyapa by'ibara ry'umuhondo, hahagazemo abagore n'abagabo, ku mpande hari bafure, bisa nkaho ari inzu y'ubucuruzi cyangwa isoko.

Icyumba kinini kigari kirimo abantu benshi b'urujya n'uruza hamanitsemo amasakoshi imitako ndetse bisa nkaho bari gucururizamo ibintu bigiye bitandukanye, harimo abagabo n'abagore.

Iduka rinini rigari ririmo amatara afite urumuri ruhagije, hasi hasashe amakaro ari mu ibara ry'umweru hateretsemo utubati turimo ibintu bigiye bitandukanye harimo ibiribwa, ibikoresho byo mu nzu ndetse n'ibindi.

Icyumba kigari gihagazemo abagore n'abagabo ku meza hateretse ho imboga n'imbuto z'ubwoko butandukanye bisa nk'aho ari inzu y'ubucuruzi.

Icyumba kigari, kimanitsemo amasakoshi ndetse n'inkweto, hahagazemo abagore n'abagabo batandukanye, bisa nk'aho ari iduka cyangwa isoko.

Icyumba kinini kirimo imiryango itatu minini hejuru yayo hari ibyapa bimurika birimo amabara atandukanye harimo n'amatara afite urumuri ruhagije m'imbere harimo abantu bahagazemo bisa nkaho ari iduka.

Icyumba kigari gitatse neza kirimo utubati turimo ibyo kunywa bigiye bitandukanye bifite amabara atandukanye hasi hasashe amakaro ari mu ibara ry'umuhondo harimo n'amatara afite urumuri ruhagije bisa nkaho arimo iduka.

Icyumba kinini gisa neza, kirimo amatara afite urumuri ruhagije, harimo utubati tugeretseho ibiribwa ndetse hirya hari firigo irimo ibyo kunywa, bisa nkaho aho ari mu iduka.

Icyumba kigari gitatse neza gifite amatara afite urumuri ruhagije, hahagazemo abantu b'abagore n'abagabo imbere yabo hahagazemo umugabo mu kumba kariho ibyapa ndetse n'ibicuruzwa bisa nkaho ari mu iduka.

Abagore babiri bitandiye, bafite amakarita y'ubwisungane mu kwivuza mu ntoki bicaye hanze y'aho babakirira bategereje kwakirwa.

Abagore n'abagabo bicaye hanze y'inzu mu busitani bw'inzu, basa nk'aho bari mu nama bari guhabwa impapuro n'umugore uhagaze hagati yabo.

Icyumba kigari gitatse neza kirimo amatara afite umuriro uhagije ndetse n'inkingi zifite ibara ry'umweru harimo utubari duteretsemo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa mu mpande bisa nkaho ari iduka.

Inzu ngari itatse neza irimo utubati turimo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa, hahagaze umukobwa wambaye agasengeri ndetse n'ijipo, imbere ye hari akagare bahahiramo, hasi hasashe amakaro bisa nk'aho ari mu iduka.

Inzu nini ngari imanitsemo ibyapa hejuru, harimo abagore n'abagabo bahagaze ndetse n'abandi bari kugenda, ku mpande hateretse utubati turimo ibiribwa ndetse n'ibindi binyobwa bisa nkaho ari mu isoko.

Icyumba kigari kirimo utubati tumanitsemo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa, hahagazemo umugore n'umugabo bambaye udupfukamunwa, umugabo uteruye ibiribwa mu ntoki bisa nk'aho yaje guhaha bisa nk'aho ari mu iduka.

Icyumba kigari kirimo urumuri ruhagije harimo utubati tumanitsemo ibikoresho byo mu gikoni ndetse n'ibindi byo gutekesha, harimo umugabo uteruye ibintu, hari n'akagare ari kubiterekamo, inyuma ye hari umugabo uri kumufotora bisa nk'aho ari mu iduka.

Inyubako nini ndende ifite amagorofa menshi ku gikuta hateho icyapa cyanditseho simba gishushu hanze hateye intebe n'utumeza bisa nkaho ari inzu ikorerwamo ubucuruzi.

Icyumba kigali gitatse neza kirimo akabati gakonjesha, karimo imboga n'imbuto, hahagazemo umuntu wambaye umupira w'icyatsi ndetse n'ipantaro y'ubururu, hirya hamanitse icyapa bisa nkaho ari mu iduka.

Umugore uri guseka uteruye agafuka k'umuhondo uhagaze mu iduka ririmo ibintu byinshi harimo, ibikoresho by'isuku ndetse n'ibiribwa, ufite akagare imbere ye karimo amavuta ndetse n'ibindi.

Icyumba kigari kirimo ibicuruzwa biteretse mu tubati ndetse hari n'imashini y'aho bakirira abantu, hahagazemo abantu bane bisa nk'aho ari mu iduka.

Icyumba kigari kinini gitatse neza kirimo utubati duteretseho ibiribwa bigiye bitandukanye hejuru hari amatara afite urumuri ruhagije hasi hasashe imbaho bisa nkaho ari mu iduka.

Icyumba kigari kirimo utubati tumanitsemo ibyo kurya, ibikoresho byo mu nzu ndetse n'ibyo kunywa mu kabati gakonjesha ariko firigo, harimo n'akagare bahahiramo hasi hasashe amakaro bisa nk'aho ari mu iduka.

Mu karere ka Muhanga habereyemo irushanwa ry'amagare riba buri mwaka rikabera mu gihugu cy'u Rwanda, babahagaritse ku mpande kugira ngo hataba impanuka ndetse n'abari mu irushanwa babashe gusiganwa nta nkomyi.

Icyumba kigari, gisa neza, kirimo utubati tumanitsemo ibyo kurya, ibyo kunywa, ndetse n'ibindi byifashishwa mu rugo, harimo n'umugore ufite akagare bahahiramo, inyuma ye hari abandi bantu bahagaze, bisa nk'aho ari mu iduka.

Icyumba kinini kirimo urumuri ruhagije hateretsemo utubati turimo ibyo kunywa ndetse hirya hari na firigo irimo ibyo kunywa bisa nkaho ari iduka.

Icyumba kigari gitatse neza, gihagazemo umugore wisukishije wambaye umupira w'umutuku, imbere ku meza hateretse imashini ndetse n'ibiribwa bisa nkaho ari kubibara, bisa nkaho ari mu iduka.

Ifoto yumugore wambaye agapira k'iroza karimo umukara n'imbere harimo umweru ufite ibitsike by'umukara n'ibisuko bifunze.

Icyumba Kigali gisa neza cyirimo amatara afite urumuri ruhagije harimo utubati duteretsemo ibiribwa harimo imboga n'imbuto, hasi hashashe amakaro bisa nk'aho ari mu iduka.

Icyumba kigari gitatse neza kirimo utubati turimo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa hahagazemo umugore wambaye igitenge , ku mpande harimo akagare ari guhahiramo hasi hasashe amakaro bisa nkaho ari mu iduka.

Iduka rinini ririmo utubati turimo ibyo kunywa by'ubwoko butandukanye biri mabara atandukanye harimo umutuku, orange, umukara, umuhondo, ubururu ndetse n'andi; hasi hasashe amakaro ari mu ibara ry'umweru n'umukara.